Abana babiri umwe yambaye ishati amashati ari mu mabara y'imituku uwerurutse n'uwijimye afite igikombe cy'ubururu bari gukaraba intokiri umwe ari kureba uko akabya undi uri gukaraba ari guseka.

Umubyeyi wambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku n'icyatsi, ateruye akana kakomeretse ku mutwe, imbere yako hari umuganga uri kugapfuka yambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru.

Abana bane bari kuvoma mu mugezi, umugezi urimo amazi haruguru hari umusozi, bari kuvoma bakoresheje ibikoresho bitandukanye nk'injerekani, ibase, isafuriya, bakandagiye mu mazi.

Umuryango wishimye uri munzu nziza, irimo amatara yaka n'indabyo inyuma, bacaye mu ntebe y'ubururu, famiye y'umugabo n'umugore bakuze, hagati yabo harimo akana gato, ku mpande zabo bakikijwe n'umugabo n'umugore ndetse n'undi mudamu.

Kwa muganga inkuta z'umweru ibishushanyo bigaragaza inyama z'umubiri muganga yicaye afite impapuro, yambaye akuma gasuzuma uko umutima utera ari gufasha umurwayi wa muganye amusobanurira byinshi ku bijyanye n'ubuzima.

Umusore ukiri muto wambaye ekuteri z'umweru, umupira w'umweru ari kunywa amazi cyane ko amazi ari meza ku buzima.

Habaye Visit Rwanda, umugabo w'umukinnyi uri mu marushanwa yo kwiruka, agize ikibazo ariko ari gufashwa n'undi mugabo wambaye jire ubishinzwe kugira ngo ageze ahari umutekano.

Ikirere cy'ubururu gifite amabara y'imyeru, igiti gifite udushami, amababi y'icyatsi, urebeyemo uhita ubona ari ahantu heza cyane.